Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, hirya yabyo hateye ibiti ndetse harimo umugabo wambaye isarubeti, uhetse icyuma mu mugongo kirimo umuti. Arimo gutera ibyo bihingwa kugira ngobirinde kwatakwa n'udukoko dushobora kubyangiza.

Udusimba cyangwa se ibyunnyi, ni bimwe mu bibangamira imikurire y'ibihingwa, abagabo babiri, bose bafite ibyuma, bari mu murima bari gutera ibihingwa kugira ngo birinde udusimba cyangwa se ibyonnyi bishobora kwangiza ibihingwa.

Umurima uhinzemo umuceri ku buso bugari. Abagabo babiri bose bafite ibyuma barimo gutera umuti kugira ngo barinde udukoko ndetse n'ibyonnyi bishobora kwangiza uwo muceri.

Abagabo batatu, bahagaze ahantu mu murima. Bahagaze imbere y'urutoki rwinshi, ndetse imbere yabo hari ibindi byatsi, bitoshye bisa nkaho byabonye imvura, ndetse n'ifumbire ihagije. Bafite ibikoresho bigiye bitandukanye.

Amafi yu'ubwoko butandukanye ari mu ibase ifite ibara ry'ubururu, iyo base kandi iteretse mu kivure cyubakishije imbaho, hirya yayo hari akandi gakoresho katagaragara gasa icyatsi.

Abagabo babiri umwe wambaye ubusa hejuru ndetse n'undi wambaye agapira gasa umukara ndetse n'akarongo k'umweru, bahagaze hagati mu byuzi byororerwamo amafi, barimo bararoba amafi kugira ngo babashe kuyajyana ku isoko cyangwa se kuyarya bitewe n'uko babishaka.

Abagabo ndetse n'abadamu bose bafite indobo mu ntoki zabo barimo kudaha amazi mu kiyaga, hirya yabo hari ubwato ndetse n'undi muntu ugiye kubwinjiramo, hirya gato hari ibindi byatsi ndetse n'ibiti bihateye.

Ubworozi bw'amafi, ni kimwe mu bimaze kwitabirwa n'abantu benshi, kuko usanga ahantu henshi mu gihugu hari ubworozi bw'amafi. Ibyuzi bibiri bizengurutswe na senyenge zisa icyatsi, hirya yaho hari ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ndetse wambariyemo n'ingofero ifite ibara ry'umweru, yambaye uturindantoki dusa umukara, ndetse afite itiyo arimo kohereza amazi mu cyuzi kimwe ayavana mu kindi, iruhande rwe hari ibiti byinshi bihateye.

Abakobwa batatu bambaye amasarubeti ya kaki, bari kumwe n'umugabo wambaye ikote risa icyatsi, bafite indobo mu ntoki zabo, barimo kuvoma amazi mu kiyaga, hirya yabo hari ubwato, ndetse hari umuntu ugiye kubwinjiramo.

Abagabo bakora ubworozi bw'amafi mu kiyaga bafite inshundura zifashishwa mu kuroba amafi, bafite iyo nshundura bisa nkaho bagiye kuroba amafi mu kiyaga.

Umumama wambaye umupira w'umuhondo ndetse ukenye agatambaro mu mutwe, ahagaze imbere yicyuzi kirimo agasupanete gasa ubururu, hirya yaho hari akantu kubabatse kororerwamo inkoko cyangwa se inkwavu, hirya y'ibyuzi hateye imibyare.

Umurima munini cyane, uteyeho igihingwa cy'icyayi. Harimo umumama witeze agatambaro mu mutwe ndetse wambaye n'agapira agasa umutuku. Ahetse igikoresho mu mugongo cyifashishwa mu gusarura no kubika umusaruro w'ikawa. Arimo gusarura, hirya ye hari abandi bantu babiri bari kumufasha.

Imbuto z'ikawa ziri mu ibara ry'umukara, zipakiye mu mufuka ufite ibara ry'umweru, hashizemo kandi ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, riri mu mabara, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa n'abantu batandukanye, mu gihugu cy'u Rwanda, izwiho gutanga umusaruro nka rimwe mu mwaka, igira amafaranga iyo wayitayeho.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu hamwe, barimo gutunganya imbuto y'ikawa kugira ngo itunganwe, ise neza ibashe kugera ku isoko kugira ngo babashe kubona amafaranga.

Abamama bagera kuri bane bose bambaye ingofero mu mitwe yabo. Bahagaze mu mazi barimo gutera igihingwa cy'umuceri .Hirya y'iyo mirima hateye ibiti byinshi bitandukanye by'amoko menshi.

Umurima mugari utewemo igihingwa cy'ikawa, hagati muri uyu murima hari umuhanda w'igitaka urimo gucamo, hari akazu kandi gasakaye gusa inkuta zitubakiye iruhande rwawo hateye ibiti by'inturusi.

Umurima mugari uhinzemo icyayi; harimo umumama ufite ibikoresho bikoreshwa basarura icyayi, yambaye umupira wumutuku ndetse ateze igitambaro mu mutwe hirya y'uwo muririma hateye ibiti b'Inturusi.

Umugore wikenyeye igitenge mu mutwe arimo guseka, afite icyayi mu ntoki ze zombi ahagaze no mu murima w'icyayi, inyuma ye hari ibiti byinshi bikikije uwo murima hakurya hari umusozi muremure.

Ibihingwa by'ingano bihinze mu buryo bwa kijyambere kumurongo. Birasa neza, birasa nk'aho byabonye ifumbire ihagije ndetse bibona n'amazi afatika.

Imiti myinshi itondetse ahantu, hamwe ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata, amatungo. Iyo itungo ryawe ryarwaye, uraza ukagura umuti ukajya kuyivura igakomeza kugira ubuzima buzira umuze.

Imiti iri ahantu hamwe ni myinshi cyane, hari iriho igishushanyo cy'inkoko bisa nk'aho ikoreshwa mu kuvura indwara zifata amatungo inkoko.

Imiti iri mu ducupa, amwe ari mu mabara y'umweru, atondetse ahantu mu dukarito, ikoreshwa cyane cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye iri ahantu muri etajeri, imwe iri mu ducupa, indi iri mu dukarito, umwe wanditseho miriti vitamine ndetse hashushanyijeho n'ikirango cy'inka, ihene ndetse n'intama.

Imiti y'amoko menshi atandukanye ateretse ahantu ikorerwa kwica udukoko tugiye dutandukanye dufata ibihingwa, iyo udateye umuti ibihingwa byawe birarwara bityo bikadindira mu gukura.

Umumama uhagaze mu murima, ufite isuka mu ntoki ze zombi arimo guhinga. Yikenyenye agatambaro mu mutwe ndetse iruhande rwe hari umubyare umwe uhateye. Hari kandi n'ikindi giti kihateye cyumye.

Ibigori bitoshye bifite amababi asa neza, biri hafi kwera, umu mama uhagaze iruhande rwabyo, wambaye umupira usa ubururu ndetse n'agakanzu karimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Inka nyinshi zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru .Ziri ahantu mu bwatsi aho zirira ndetse hari umugabo ufite inkoni ahagaze mu bwatsi ni umushumba wazo.

Umumama ufite amabase mu ntoki ze ndetse n'isuka wambaye bote zisa umukara ari kugenda hagati mu kayira kari mu mirima asatira indi nyubako yubatse hirya iri mu mabara y'umweru, hari abandi bantu bahagaze iruhande rw'iyo nyubako.

Umuntu utagaragara mu maso uri ahantu mu murima arimo aratera igiti, gutera ibiti ni ingenzi kuko rizana umwuka mwiza duhumeka kuko nta mwuka mwiza nta kinyabuzima cyabaho.

Umugabo wambaye isengeri ndetse wakonje n'ipantaro ukuguru kumwe, afite igikoresho cyifashishwa mu guhinga, mu ntoki ze arimo guhinga, bisa nkaho yishimiye umurimo ari gukora kuko yizeye neza ko ibyo akora bizamuha umusaruro.

Igiti k'indimu giteye ahantu hacyonyine, gifite amababi atoshye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse gifite n'imbuto zisa icyatsi zitarera neza ariko ziri hafi kwera ku buryo zajyanwa ku isoko.

Umurima uteyemo ibyatsi ndetse harimo n'ibiti byinshi bitandukanye, bikoze igihuru, hirya yabyo hari umusozi utuyeho abantu, hari amazu menshi.

Ipoto itwara amashanyarazi mu ngo zitandukanye, iteye ahantu mu murima, urimo ibyatsi, hari akayira k'igitaka, koroshya imigenderanire hagati y'agace kamwe ndetse n'akandi.

Ibiti by'imyumbati biteye ahantu, hamwe birasa neza bisa nkaho byabonye, ifumbire ndetse n'imvura ihagije, yabyo hari ibindi biti bihateye by'ubwoko bugiye butandukanye.

Igihingwa cy'indimu giteye ahantu ha cyonyine, gifite urubuto rumwe, bisa nk'aho kitatanze umusaruro uhagije, indimu ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'umubyibuho ukabije.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ndetse n'amafaranga muri rusange ariko usaba kwitabwaho cyane kugira ngo ubashe kwera, umugabo wunamye mu murima arimo arita ku muceri we, iruhande rwe hari umuhini w'isuka uharambitse.

Igiti cy'umwembe kikiri gito, giteye ahantu ha cyonyine, gifite amababi atoshye, bisa nkaho cyabonye ifumbire ihagije ndetse kikabona n'amazi ahagije. Mu gihe kiri imbere kiraba cyeze.

Ibihingwa bibiri, ibishyimbo ndetse n'ibigori bihinze umwobo umwe, iyo biriku byose birakura kuko biba bibona ifumbire ihagije ndetse n'amazi ahagije, abifasha mu gukura neza.

Ibiti by'ikawa biteye ahantu mu murima, hirya yayo hakurya hari umusozi uriho amazu menshi atandukanye, ateyeho kandi n'imibyare itanga ibitoki byorya.

Ama parcele y'imirima igiye itandukanye, irimo gutegurirwa kuzahingwamo umuceri kuri sizoni ikurikira. Iruhande rwayo hateye ibindi bihingwa, amateke ndetse n'inyanya.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bihingwa n'abantu benshi ku busha ubugari bw'umurima. Kuko bivamo ibiribwa bigiye bitandukanye: igikoma, kawunga ndetse bikanatanga n'ibiryo by'amatungo. Ibigori ni byiza cyane.

Ibishyimbo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bidufasha mu kurinda umubiri wacu indwara, igihingwa cy'ibishyimbo giteye ahantu mu murima ni cyonyine.

Ibitoki bihinzwe ku buso bugari byitaweho neza kuko birasa neza, bifite isaso itanga ifumbire iruhande rwabyo hari umurima w'imyumbati, ndetse hari undi murima uhinze gusa utaraterwamo imyaka.

Imibyare ni imwe mu bihingwa, bikunzwe n'abaturage benshi hano mu gihugu, bitanga ibitoki bivamo inzoga yo kunywa ndetse bikanatanga ibitoki barya, bihinze ahantu ha byonyine.

Imbuto ziri mu ibara ry'umutuku, ziri ku gihingwa gifite ibara ry'icyatsi, zireze zikeneye gusarurwa kugira ngo zibyazwe umusaruro cyangwa se zijyanwe ku isoko zitange amafaranga.

Umurima uhinzemo igihingwa k'ibirayi hari indobo eshatu zose ziri mabara y'umukara zose zirimo ibirayi bisa nk'aho basaruriyemo, kugirango babigeze aho bigomba kugera.

Imboga z'ubwoko bwinshi butandukanye harimo puwavuro, karoti, urusenda ndetse n'ibitunguru zifashishwa mu kurinda indwara ndetse no kubaka umubiri, ubaye uzishaka wajya mu isoko hose aho wa uherereye ukabasha kuzihaha.

Ikiyaga gifite ibara ry'ubururu gikikijwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye, hari ibihu bifite ibara ry'umweru byijimye, iruhande rwayo hari akandi kayira karimo utuzi dukeya.

Amazu menshi yubatse ahantu mu gace kamwe, haruguru y'ayo mazu hari imisozi ibiri iteyeho amashyamba, ibiti ni ingenzi mubuzima bwacu kuko ituma duhumeka umwuka mwiza. Hagati y'ayo mazu haciyemo umuhanda w'igitaka.

Umusozi utari muremure cyane uteyeho ibiti by'inturusu bigiye bitandukanye, agace kamwe karumye bisa nk'aho bagasaruyeho ibyo biti. Hasi yaho hari imirima iteyeho ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ishyamba ni ingenzi mubu buzima bwacu bwa buri munsi kuko rifasha mu gutunganya umwuka mwiza duhumeka bityo rero dukwiye kubungabunga ibiti, mu gihe watemye igiti ugatera bibiri.

Ishyamba ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ridufasha mu gutunganya umwuka wacu duhumeka nk'abantu, biti byinshi biteye ahantu hatandukanye.

Igiti k'imyembe gifite imbuto nyinshi zikiri ntoya. Giteye ahantu ha cyonyine ndetse iruhande rwacyo hari ikindi giti kiri mu ivase isa umukara. Iyo uriye umwembe ugira ubuzima bwiza.

Imbuto ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko zidufasha kurinda indwara zimwe na zimwe. Inanasi ziteye ahantu mu murima zireze zikeneye gusarurwa.

Inzu ihingwamo ibihingwa bitandukanye, irimo umu mama wambaye umupira w'icyatsi ndetse ateze agatambaro mu umutwe, ahagaze mu bihingwa arimo kugenzura niba bikura neza ,bimwe bifite amabara y'umutuku.

Isoko ririmo imbuto ndetse n'imboga ziri mu bwoko butandukanye, harimo karoti inyanya, imiteja, pavuro, seleri ndetse n'ibindi bitandukanye. Uwashaka kubigura yaza akihahira nta kibazo.

Imboga z'ubwoko butandukanye ziteretse mu gakoresho kabugenewe mu kuzitwara harimo inyanya, sereri, imboga rwatsi, imboga ni ingenzi mu buzima bwacu kuko zidufasha mu kubaka umubiri ndetse no kurinda indwara.

Indabyo zisa neza ziteye ahantu ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, hirya yazo hari izindi ndabyo zifite amabara meza, zifite ishusho igaragara mu buryo bwiza.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye mu busitani butunganya ibihingwa, higanjemo abagore ndetse harimo n'abana. Hirya yabo hari imisozi yumye itariho ibiti.

Umurima uteyemo ibihingwa, harimo abagabo batatu bose bafite udukoresho twifashishwa mu kuhira. Barimo baruhira imyaka yabo kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza ndetse ibashe gukura. Hirya yabo hari ibindi biti bihateye ndetse n'imibyare.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, uhagaze mu murima, urimo ibihingwa bitandukanye, afite ipompo, arimo kuhira iyo myaka kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza, inyuma ye hari ibiti, byinshi bihateye.

Ibihingwa bihinze mu buryo bwa kijyambere bihinze ku murongo ndetse hari n'udukoresho twabugenewe dukoreshwa mu kuhira mu gihe amazi yabaye ikibazo cyangwa se imvura itarimo iragwa.

Umurima uhinzemo ibigori bikiri bito, iruhande rwabyo hari urugo rwubakishije imiyenzi, hahagazemo umugabo wambaye bote z'umukara, afite ipompo, arimo kuhira ibyo bigori.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye biteye ahantu mu murima, ndetse hari n'igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuhira iyo myaka mu gihe amazi ndetse n'imvura byabaye ikibazo, hirya y'iyo myaka hari ibindi biti binini bihateye, ndetse hari n'inzu ihubatse.

Inka nyinshi ziri ahantu mu rwuri rurimo ubwatsi butoshye zirimo kurisha, inyuma yarwo hateye ibiti by'ishyamba ndetse hakurya hari ikibaya kirimo amazu.

Umusozi ugiye uriho ibintu bitandukanye, ibiti, amazu ndetse n'ibindi byinshi, hino yaho hari ikiyaga kirimo amazi, hino ikiyaga hari ibindi biti byateye bigiye bitandukanye.

Imisozi idateyeho ibiti ndetse hariho imirima ihinze ariko itaraterwamo ibihigwa, hino yayo, hari ibiti bikeya by'inurusi, hari n'utuyira tugiye duciyemo dutandukanye.

Ikibaya kiriho amashyamba hateyeho kandi n'ibitoki, harimo ikiyaga kirimo amazi kugira ngo ibihingwa bihegereye bitabura amazi.

Imisozi itariho amashyamba, hariho imirima ihinze ariko itaraterwamo ibihingwa. Hino yayo hateye ibiti bikeya by'ininturusi. Hagiye harimo utuyira dutandukanye.

Umusozi uriho imirima myinshi iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hariho amazu menshi atuyeho abantu, hirya kandi hari undi musozi na wo utuyeho abantu.

Imisozi mito kandi myinshi, imwe muri yo iteyeho amashyamba. Indi iriho ubwatsi bushobora kwifashisha n'inka zirisha kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ikibaya giteyemo ibihingwa bitandukanye, hakurya hari imisozi iriho amazu menshi, hakuno y'ikibaya hari imibyare ndetse muri icyo kibaya hanyuzemo amazi akoreshwa mu kuhira imyaka iteye muri icyo gishanga.

Imisozi miremire yitaruye, iri ahantu ha yonyine. Hino yayo hari ibindi biti by'inturusi, bihateye ndetse hari n'inyubako yuhubatse yonyine, hari kandi n'imirima idahinze ihari.

Icyumba cyororerwamo ubworozi bw'inkoko harimo inkoko nyinshi zitandukanye harimo kandi n'udukoresho zifashisha zirimo kunywa cyangwa se kurya, isaso yazo ni nziza cyane iri mu ibara ryenda gusa umukara.

Ingurube ifite ibara rimwe, iri mu kiraro cyubakishije sima, hasi harimo isaso iyifasha kudahura n'umwanda ngo ibe yakandora, hari uburiro bwubakishije isima.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano isa ubururu ndetse n'amataburiya y'umweru. Bahagaze inyuma y'inka bisa nkaho hari ikintu barimo kuyikoraho. Zihagaze mu rupangu rubafasha kuzifata neza.

Urupangu rufasha abantu mu gufata amatungo muburyo bworoshye, bagiye kuyakoreraho serivisi runaka, hari inka zifite amahembe maremare zizwi ku izina ry'inyambo, inyuma yazo hari abantu bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'amataburiya y'umweru.

Ikiraro cyororerwamo inka kirimo isaso ndetse harimo n'inka yabyaye, irimo kurigata inyana yayo kugira ngo iyikureho ivata ibashe guhumeka.

Icyumba cyororerwamo inkwavu mu buryo bugezweho bwa kijyambere, harimo inkwavu ziri mu mabara agiye atandukanye, ziri ahantu mu gakoresho kabugenewe.

Ihene ziri ahantu hamwe hasa igitaka, ziri mu mabara agiye atandukanye, zubakishije senyenge kugira ngo zitabasha gusohoka, hagati muri zo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero.

Ibibwana bigera muri bitatu by'ingurube byose biryamye ahantu hamwe. Inzu yabyo yubakishije isima ndetse harimo n'isaso izirinda kuba zakandura, umwanda ndetse n'izindi ndwara zituruka ku mwanda.

Inyubako ikorerwamo ubworozi bw'inkoko, harimo inkoko nyinshi zitandukanye, ziri mu mabara atandukanye umukara ndetse n'ikijuju, harimo udukoresho zifashisha mu kunywa ndetse no kurya, harimo kandi isaso ryiza cyane rizirinda kwandura.

Inka ifite iheena ku gutwi irimo gufata ibyo kurya byumye babishyize mu gikoresho cyabugenewe gikoreshwa mu kugaburira amatungo kugira ngo ibiryo bitangirika cyangwa se ngo bibe byakandura.

Inka ziri mu mabara asa ikijuju, ziri kwinjira ahantu mu rupangu rukozwe n'ibiti, ziri kandi mu mbuga itarimo ibyatsi, hirya yazo hari indi mbuga ngari irimo ibyatsi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inkoko nyinshi zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ziri ahantu hamwe ndetse zirimo gufata ibyo kurya, ni nziza cyane, inyuma yazo hari imbuga ngari igizwe n'igitaka n'utwatsi dukeya.

Inka nyinshi ziri ahantu mu bwatsi, ziri mu mabara agiye atandukanya, umukara ndetse n'umweru, inyuma yazo hari ibiti birebire ndetse hari n'umushumba wazo uhagaze ahantu munsi y'igiti wambaye umupira w'umutuku.

Inyubako yororewemo inkoko nyinshi zitandukanye, ziri ahantu hagari ndetse harimo isaso izifasha kwirinda isayo. Harimo kandi n'udukoresho zifashisha zirimo gufata ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa. Turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Inkoko z'amoko agiye atandukanye, ziri mu nyubako zororerwamo. Iyo nyubako ifite isaso ryiza rifasha izo nkoko kudahura n'isayo. Harimo udukoresho dutandukanye zifashisha mu kunywa amazi ndetse no gufata amafunguro.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bikoreshwa cyane cyane mu ngo zigiye zitandukanye, havamo akawunga, igikoma ndetse n'ibiryo by'amatungo, birambitse ahantu kuri shitingi barabyanditse kugira ngo byume babashe kubihungura.

Ibigori byinshi birambitse ahantu mu mbuga bireze kandi bikeneye gutunganywa kugira ngo bibyazwemo umusaruro, ibigori havamo akawunga, havamo ifu y'igikoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ibigori ni ingenzi.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara neza mu maso, afite imbuto z'ingano; arimo kuzishyira mu murima bisa nkaho ari mu kuzitera kugira ngo zizabashe gukura zitange umusaruro.

Ikiganza cy'umuntu utagaragara mu maso kirimo imbuto z'ibihaza, wambaye agapira karimo uturongo tw'umukara, afite intara mu ntoki ze iriho imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, hariho amashaza ibishyimbo ndetse n'uburo.

Ibigori byinshi byasaruwe byanitse kuri shitingi isa umweru, hari umumama wikenyeye agatambaro gasa icyate mu mutwe arimo kubisanza kugira ngo hose hagere akazuba.

Ibigori byinshi biri mu mufuka usa umweru, umugabo utagaragara mu maso hari ibyo afite mu ntoki ze ari kwerekana uburyo ari ubwoko bwiza ubishaka nawe wabihinga kuko bitanga umusaruro uhagije.

Imbuto ziteye ahantu hamwe mu dukoresho turi muamabara y'umukara, zidufasha mu gukura neza kuko ziba zibona ibyangombwa byose, harimo amazi ndetse n'ifumbire.

Bote ziri ahantu zisa umukara, ziri iruhande rw'igikoresho gikoreshwa n'abaveterineri, gitwara intanga kugira ngo zitangirika, iruhande rwacyo hari indi miti iteretse ahantu.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye hicayemo umugabo wambaye itabuririya y'umweru ndetse na ga mu ntoki zisa ubururu, imbere ye hateretse udukoresho twifashishwa mu kubika amaraso ndetse n'ibindi bitandukanye arimo kwitegereza utwo dukoresho.

Inka y'inyambo ifite amahembe maremare iri ahantu mu rupangu, inyuma yayo hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, ingofero y'umweru ndetse na bote z'umweru, yambaye ga ndende mu kuboko kwe ku ibumoso ari gukora mu nda y'amase y'iyo nka.

Ibiganza bibiri by'abantu batagaragara mu maso, byambaye ga zisa umweru, biri gukora mu nyama zirambitse ahantu ku meza kugira ngo barebe niba nta kindi kibazo kirimo kugira ngo babashe kuzigaburira abaturage.

Abantu bambaye ga zisa ubururu batagaragara mu maso bateraniye ku itungo runaka basatuyemo igisebe bari gushaka icyaba cyateye iyi ndwara.

Imbwa enye zose ziri mu mabara atandukanye, zicaye ahantu, hirya yazo hateye ibiti ndetse hari n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hari n'udusahane dutatu dusa ndetse nitwo ziriramo.

Inyubako ifite inzugi ndetse n'amadirishya bisize amarange y'umutuku, harimo inkoko zikiri imishwi, ziri ahantu hamwe ndetse mo aho zororewe hari imbabura izifasha mu kuzongerera ubushyuhe kugira ngo ziticwa n'imbeho.

Abantu bambaye ga zisa ubururu batagaragara amaso bari kuvura ingurube bareba ikibazo yaba yagize kuko iyo irwaye ntabwo iba imeze neza, bari gushaka uko bayivura kugira ngo ubuzima bwayo bukomeze bugende neza.

Inyamaswa ifite amabara atandukanye, umubiri wose ifite umurizo muremure, ihagaze ku giti cyumye, iruhande rwacyo hari ibindi biti bihari, bihateye bifite amababi y'icyatsi.

Inyoni eshatu ziri mu kiyaga zirimo zirashaka udufi dutoya kugira ngo zibe zadufata ndetse zibone icyo kurya cy'uwo munsi ndetse n'ubuzima bwazo bukomeze bugende neza.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye, zirimo kuririsha ahantu mu murima harimo ibyatsi bitoshye, hateyemo kandi ibiti bigiye bitandukanye bizana akayaga ndetse n'amahumbezi aho hantu inyamaswa ziri.

Inyamanswa izwi nk'intare ifite ubwoya bwinshi mu ijosi, ihagaze ahantu hatuje ndetse inyuma yayo hari urutare ndetse n'ibindi biti byinshi bihateye bitandukanye.

Inyamanswa izwi ku izina ry'imbata ikunze kororwa n'abantu bakeya, usanga itera amagi makeya, ariko amagi yayo aba ari manini kuruta ay'inkoko kandi aba anaryoshye.

Inyamaswa ebyiri zitwa agasumbashyamba zihagaze mu byatsi byumye ndetse iruhande rwazo hari igiti cyumye gifite amashami menshi. Hirya yazo hari ibiti bindi biri mu mabara y'icyatsi. Izi nyamaswa nizo zirezire.

Inyamaswa izwi ku izina ry'igisamagwe iri ahantu mu byatsi burije ni ninjoro, iruhande rwayo hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

Inyamanswa iyo zitaweho nta mujinya zigira, igisamagwe ni kimwe mu nyamanswa zigira umujinya cyane, iri ahantu ha yonyine irasamye bisa nk'aho yarakaye.

Inyamaswa ifite ubwoya bwinshi busa umukara, ndetse ku kananwa kayo hari ibara ry'umweru, ifite umurizo munini iri kugenda mu byatsi, hirya yayo hari urugo rwubakishije imihate.

Igiti cyumye gishobora kuba, cyatanga, inkwi. Hariho inyamanswa, izwi ku izina ry'intare, ikunze kuba ingome cyane. Iyo yashotowe igira umujinya, urenze urugero.

Inyamaswa ihagaze mu byatsi iratuje irimo kwitekerezaho, hirya yayo hari ibyatsi bifite uturarabyo dusa n'umuhondo ndetse ifite n'umurizo munini uriho ibyoya byinshi.